Ku ivomero rusange ryo mu mudugudu, harimo abana n'abagore, umwe afashe umutaka, uwundi ari gufasha kuvoma umwana w'umukobwa wateretse amajerekani abiri ku ivomo, avoma.

Umubyeyi uri kumwe n'umwana we, bapfukamye ku ibuye, imbere yaho hari umugezi, bafite amajerekani abiri y'umuhondo, bari kuvoma muri uwo mugezi, ugaragara ko ufite amazi, adasukuye.

Abajyanama b'ubuzima, harimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bari kugaragaza amatelefone agendanwa, bahawe mu mfashanyo, akoreshwa ikoranabuhanga kugira ngo bizabafashe mu kazi kabo.

Icyumba cy'inama, harimo igitsina gabo n'igitsina gore. bitabiriye inama bose baricaye, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, bakurikiye inama, harimo abafite amakaye n'amakaramu bari kwandika, abandi bari gukoresha amatelefone yabo, ndetse na za mudasobwa.

Uri guseka afashe igikombe cye mu kaboko ke kw'iburyo ari kuvoma kuri robine yo ku ivomero rusange ndetse hari n'indi robine nayo iri kumenekamo amazi.

Mu kigo cy'amashuri, abanyeshuri benshi bambaye amashati ya uniforme afite ibara ry'umuhondo, bamanitse akaboko kabo bifotoza, inyuma yabo hari abashyitsi basuye icyo kigo cy'amashuri mu rwego rwo kubaganiriza ibijyanye n'ubuzima.

Itsinda ry'abantu rigizwe n'abagabo n'abagore, rishinzwe kurwanya no gukumira ugutwita kw'abangavu, rihagaze ryiteguye gufatwa ifoto y'urwibutso.

Abana babiri bakiri bato, batojwe gukora isuku by'intoki, umwe afashe igikombe kirimo amazi, ari gusukira mugenzi we, na we akaraba intoki, anezerewe yishimye.

Itsinda ry'abantu bari mu mahugurwa, agamije guteza imbere no gufasha ibijyanye n'ubuzima, ayo mahugurwa yitabiriwe n'ab'igitsina gore, ndetse n'igitsina gabo, bose bari hamwe, bamwe barasutamye, abandi barahagaze, biteguye gufatwa ifoto.

Umwana w'umukobwa arunamye ku ivomo yateze amaboko ye ari gukaraba intoki, aho amazi agenda amenekera mu ibase y'ibara ry'umukara yatezeho.

Ku ivomo rusange ryo mu mudugudu, haje umukozi ubishinzwe, ari gutoza itsinda ry'abantu baje kuvoma, barimo abana ndetse n'abasore, aho ari kubatoza uko bakoresha iryo vomo.

Mu kigo Nderabuzima hari abaturage bari mu ngeri zitandukanye, ab'igitsina gore n'ab'igitsina gabo ndetse n'abana, hagiye harimo abambaye udupfukamunwa, n'abatatwambaye. Bakiriwe n'abadamu babiri, umwe muri bo yambaye itaburiya yo kwa muganga, bari kugenda bakira umwe umwe bamwandika muri mashine.

Ivomo rusange, hari abantu b'igitsina gore bahahagaze batanu, ndetse hatondetse n'amajerekani menshi, ategereje kuvomwamo amazi.

Umuntu wambaye uturindantoki tw'umweru mu maboko ye ukuboko kwe kumwe gufashe urushinge ukundi kuboko kwe gufashe ukuboko kw'ibumoso k'umuntu bari gutera urushinge.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu, barizihiwe bari kubyina, bishimye bareba umugabo uri imbere yabo w'umwere, umaze kubakoresha amahugurwa.

Mu cyumba cy'inama, abantu b'igitsina gabo n'ab'igitsina gore, bahagaze biteze gufata ifoto, inyuma yabo hamanitse icyapa cyanditseho amagambo, gifite ibara ry'ubururu ndetse n'ibara ry'umweru.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye ni inyubako z'ubwiherero, imbere yaho hari kandagira ukarabe ifite indobo y'icyatsi kibisi ndetse n'akabase gatezeho w'imbere umwana w'umukobwa ari guseka akaraba yifashishije iyo kandagira ukarabe.

Inyubako ndende isize amarangi y'umweru isakaje amabati y'umutuku imbere yayo hari ikigega kinini gitunganyirizwamo amazi.

Ku ivomero rusange hari umuntu w'igitsina gore ufite amajerekani atatu, amajerekani abiri yayateretse ku ivomo ari kuvoma amazi.

Umwana ukiri muto wambaye akenda k'umutuku, yateze amaboko ku irobine yo ku ivomo rusange, ari gukora isuku y'intoki akaraba neza amazi meza.

Itsinda ry'abanyeshuri biga mu cyiciro cy'amashuri abanza, barunamye bari ku ivomo ryo ku ishuri ryabo, aho umwana umwe yateze amaboko n'umunwa, akaba ari kunywa amazi aturuka muri iryo vomo.

Isuku ni isoko y'ubuzima, buri muntu wese akwiriye kugira isuku, cyane cyane isuku y'intoki ziwe aho intoki ziba zakoze ahantu hagiye hatandukanye, hari ivomo hari kuvoma ndetse afite n'isabune yitegura gukaraba neza.

Ku ivomero riri hagati mu mudugudu urimo amazu, hahagaze umugabo wishimye uri guseka, ufite ijerekani ifite ibara ry'umuhondo.

Ukuboko k'umuntu wambaye ikoti, niko kuri kugaragara, aguteze ku mazi aturuka mu itiyo, ari kumeneka ayakaraba, amenekera mu mugezi, utemba.

Umuntu mukuru w'igitsina gabo, ari kumwe n'abana bane, bahagaze bishimye, bateze amaboko hejuru y'ibase iteretse hasi, umugabo afashe igikombe ari gusuka amazi muri za ntoki zabo ngo bakarabe.

Mu cyumba cyo mu kigo nderabuzima, hicaye abantu batanu b'igitsina gore, bahuje ikiganiro, bari kuganira bungurana ibitekerezo, mu rwego rwo gufasha abarwayi ndetse n'abaza babagana.

Umwana uri mu kigero kiri hagati y'imyaka itanu n'imyaka icumi, yambaye agakabutura ndetse n'agasengeri, ahagaze mu mugezi, afite ijerekani, ari kuvoma amazi muri uwo mugezi. Ubona ko hirya hamezemo ibyatsi.

Ku ivomo rusange ryo mu mudugudu ho hahuriwe n'abantu b'ingeri zose harimwo abana baje bazanye utujerekani bari kugenda batega utujerekan twabo kuri iryovomo bakavoma amazi abandi nabo bari kureba uko iryovomo rishya rikora.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri, inyuma ye hari amazu y'ubwiherero bigaragara ko avuye mu bwiherero, afashe amaboko ye yayateze imbere ya kandagira ukarabe, amazi ari kumanuka na we akaraba intoki mu rwego rwo gusukura intoki ze.

Mu kibuga cy'imikino n'imyidagaduro hahagazemo abantu bambaye amataburiya y'ubururu, barimo igitsina gabo n'igitsina gore ndetse n'abandi bicaye ku ntebe, bari gukoma mu mashyi ubona bari kuririmba, inyuma yaho hari igishararaga cyubakishije ihema ry'umweru.

Mu cyumba cy'inama, harimo ameza ndetse n'intebe zicayeho abantu bagaragara nk'urubyiruko, bose bambaye udupfukamunwa, harimo abambaye udupira tw'icyatsi kibisi ndetse n'abandi bambaye udupira tw'umweru, bafite amakayi n'amacupa y'amazi imbere yabo, bakurikiye mu kiganiro.

Abantu umunani bagizwe n'abagabo batandatu ndetse n'abagore babiri, bari kuganira bicaye mu cyumba cy'inama, bafite n'udutasi imbere yabo two kunyweramo icyayi.

Umwana w'umukobwa yambaye agakanzu kadoze mu gitenge kirimo amabara y'umutuku, asutse ibisuko biryamye ku mutwe, yunamye ateze amaboko ku ivomero, ari gukaraba intoki, amazi ameneka mu ibase y'ibara ry'umukara.

Umubyeyi wambaye akarindamuwa, ari gutoza umwana we isuku aho yafashe isabune, agafata umwana akamukarabya intoki, amutoza amwereka uko bagomba gukora isuku y'intoki.

Abantu batanu harimo uw'igitsina gabo ndetse na bane b'igitsina gore, bahagaze ku ivomo rusange, babiri muri bo bafashe indobo y'umutuku ndetse n'indi ndobo y'ubururu, bari kuvoma amazi abandi barabarangamije babareba.

Umukozi wo kwa muganga wambaye agapfukamunwa, yicaranye n'umugabo wambaye agapira k'ubururu, ari kumwandika mu gitabo cy'irangamimerere, inyuma ye hari icyapa cyanditseho SIDA iracyahari duharanire kuyirwanya.

Itsinda ry'abakora mu ishami ry'ubuvuzi harimo abambaye amataburiya y'umweruru, abandi bicaye, abasutamye ndetse n'abahagaze biteguye gufata ifoto baranezerewe bose.

Ivomo rusange ryo mu kabande hariyo abantu bane umubyeyi umwe ahindukiye agenda uwundi ari gufasha kuvomera mugenzi we w'umwana uteze akajerekani gatoya k'umuhondo avoma amazi.

Ku ivomero rusange, hariho amarobine abiri, robine imwe hari umwana wazanye indobo ari kuvomaho amazi ndetse yateze amaboko n'umunwa, ari kunywa amazi aturuka muri iryo vomo.

Ku ivomo rusange hatondetse amajerekani, ndetse n'amabase yifashishwa mu kuvoma, hari n'itsinda ry'abantu bategereje kuvoma kuri ayo mazi yo mu iriba.

Umubyeyi utwite aryamye ku gitanda cyirwariro kwa muganga aho umuganga yifashishije igikoresho gipima uko umutima w'umwana utera mu nda.

Itsinda ry'abaganga b'igitsina gore ni igitsina gabo, bambaye amatabuririya y'umweru, bari kumwe n'undi mugore wambaye umwenda w'umutuku, bafashe positeri bitegura gufatwa ifoto.

Itsinda ry'abana bari mu gishanga, bakurikiye umwana wambaye imyenda y'ishuri ufashe udukombe tubiri, kamwe karimo amazi meza, akandi karimo amazi mabi ari gutoza yigisha uko bakwiye gukoresha amazi meza.

Abagabo batatu barangamijwe no kureba umukobwa w'umwera wambaye ijire n'ishati y'umweru, uri gufata ifoto umugabo wambaye agapfukamunwa uri kwikoreza umwana w'umukobwa ijerekani.

Itsinda rigizwe n'igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bari mu mahugurwa y'imishinga ifasha mu buzima, bakaba bahagaze bitegura guhabwa ifoto.

Umwana ateze ibiganza bye byombi anywa amazi aturuka mu ivomo rusange, inyuma ye hahagaze abantu, iruhande rwe hari intebe ihateretse ifite ibara ry'ubururu.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati irimo amabara y'umutuku n'ubururu, ahaye ikiganza undi mugabo wambaye imyenda icikaguritse, ubona ko ari umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe, ari kumusuhuza amuhaye ikiganza.

Abantu b'ingeri zitandukanye, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bari mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari amezi abiri, na bo barahagaze, bose bari kureba imbere biteguye gufatwa ifoto.

Abana batandukanye bicaye ku musambi, bakikije umukecuru ukuze cyane, wambaye igitambaro mu mutwe, bose bari kureba imbere.

Inyubako yaho bita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe, ni inyubako ifite ibaraza ririho umuryango winjira muri iyo nyubako, imbere yaho hari ubusitani bugiye buteyemo ibiti by'amoko atandukanye.

Abantu babiri b'igitsina gore, bicaye ku ntebe, inyuma yaho hari inkwi zanditse ku gikuta, umwe wambaye ipantaro n'umupira byo mu bururu afashe ku rutugu ahumuriza undi wambaye ikanzu, wifashe mu maso n'igitambaro arira.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe indwara zo mu mutwe ni umunsi mpuzamahanga wifashishwa mu kongera kuzirikana no gutekereza ku bantu bafite indwara zo mu mutwe, mu rwego rwo kubegera no kubafasha no kongera kubageza ku ivuriro bakwiriye kwitabwaho.

Itsinda ry'abantu harimo umujyanama w'ubuzima basuye umugabo bari kumuganiriza no kumuhumuriza mu rwego rwo kumufasha uburwayi bwe bwo mu mutwe.

Umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, yicaye yambaye imyambaro yanduye ndetse afite n'igipine mu ntoki biragaragara ko afite uburwayi bwo mu mutwe.

Itsinda ry'abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore basoje amahugurwa agamije kwita ku bwonko, aho ubwonko bushobora kugenda bugira indwara zitandukanye, ziterwa n'ibibazo abantu bahura na byo bikabatera indwara zo mu mutwe.

Umuntu ugaragara igice cyo hejuru, yambaye ingofero, ubona afite agahinda kenshi n'amarira, yifashe mu maso n'amaboko ye yombi, afashe agatambaro, ari kwihanagura amarira.

Umubyeyi uri kumwe n'abana batatu bicaye ku kirago, umwana umwe aramukikiye, undi yihishe mu mugongo we, undi yicaye ku ruhande rwe rw'iburyo, imbere ye hari urutaro ruriho ibigori ndetse n'isahani ya mironko irimo ibyo bigori.

Umuntu wigitsina gabo uri guseka afite amanyo meza yakoreye isuku yashizemo urudodo muri ayo menyo, ari gutoza uko ababyeyi bakura amenyo abana bageze mu kigero cyo gukurwa amenyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo agatebe kicarwaho n'umuganga, ndetse n'indi ntebe yicarwaho n'umurwayi, ikozwe nk'imashini, inyuma yaho hakaba hari amamashini atandukanye, yifashishwa mu gusuzuma no kuvura, abarwayi b'amenyo.

Umuganga ari kwita ku mwana waje kwivuza indwara y'amenyo, ubwo yashyize udukoresho mu kanwa amwasamisha, tumufasha kugenda areba uburwayi umwana afite bwo mu kanwa.

Umuntu w'igitsina gabo, arasamye, ari kugaragaza amenyo ye, asukuye neza, ni amenyo yitayeho, akayakorera isuku, bityo bikabera urugero rwiza, rwa buri muntu, rwo kwita ku isuku y'amenyo.

Icyumba cy'ishuri kigamo abana biga mu cyiciro cy'amashuri abanza, bicaye mu ishuri bose bazamuye imiti y'amenyo ndetse n'uburoso bwoza amenyo.

Umwana w'umwirabura uri mu kigero kiri hagati y'imyaka itatu n'itandatu, wambaye ishati y'ubururu bwerurutse, afashe mu kiganza cye cy'ibumoso uburoso bw'ibara ry'umuhondo n'ubururu akaba yiteguye koza amenyo ye.

Ku munsi Mpuzamahanga wahariwe ubuvuzi bwo mu kanwa, hitabiriye abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore, batonze umurongo biteguye kwakirwa, aho bari kubanza kubapima ibiro ndetse n'uburebure.

Umuntu w'igitsina gore yicaye mu ntebe kwa muganga afashe indorerwamo mu ntoki ze, ari kwireba amenyo ye aseka yishimye.

Umuntu w'igitsina gabo yambaye agapira k'umweru, afite n'ibisuko ku kumutwe we kuruhande rwo hejuru, ari kwireba mu ndorerwamo, afite akadodo mu ntoki ze zombi, ari kujya kugashira mu menyo ye yasamye.

Abantu bambaye udupira tw'icyatsi kibisi, bicaye ku ntebe, inyuma yabo hari abandi bantu bambaye uturindantoki ndetse n'udupfukamunwa, bari kugenda babasamika mu kanwa, bareba indwara z'amenyo.

Abantu babiri bari kwireba mu ndorerwamo, harimo uw'igitsina gabo wambaye umupira n'umweru n'uw'igitsina gore wambaye umupira w'umweru, bafashe ku menyo yabo bafunguye umunwa bagaragaza ubwiza bw'amenyo yabo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umweru, afatishije ukuboko kwe kw'ibumoso uburoso bwoza amenyo, arasamye ari koza amenyo ayasukura.

Umubyeyi mukuru w'umugore yicaye ku buriri azamuye amaboko ye, afite agakoresho ari kwifashisha arambura amaboko ye, uruhande rwe hari umuganga uri kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umugabo mukuru ushaje, imbere ye hari ameza ariho imbuto z'ubwoko butandukanye, afashe ifurusheti ari gutamira kuri za mbuto, uruhande rwe hari umuntu w'igitsina gore uri kumusukira umutobe ngo amuhe.

Abantu babiri b'igitsina gore, umwe ateze igitambaro cy'umutuku, undi asutse ibisuko ku mutwe, bagaragara nk'abishimye, bari gutambuka mu muhanda, bakora imyitozo ngororamubiri.

Abagore bacururiza mu isoko, bicaye hamwe aho buri wese imbere ye hari inyanya zo kugurisha, umwe muri bo yayoboye ikiganiro, ari kugenda abaganiriza.

Umuntu w'igitsina gabo ukuze, afite imvi ku mutwe z'umweru, yambaye amadarubindi, akaba yicaye mu kagare kagenderamo abafite ubumuga bw'ingingo, ari gusunikwa n'umuntu w'igitsina gore bose bari guseka bishimye.

Icyumba cyo gutorezamo abafite ubumuga bw'ingingo, harimo ibitanda, harimo n'abantu babiri, umugore uri gufasha umugabo gutambuka akoresheje amaguru ye, akaba afashe ku twuma tumufasha kugenda.

Umuntu w'igitsina gabo usheshe akanguhe, yicaye mu bwogero ari gukorerwa isuku, aho hari umuntu uri kumwoza umubiri, ubwo akoresha isabune n'amazi meza amukarabya.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu ruganiriro, umusaza afashe telefone bari kuyirebamo bose, umukecuru na we afashe agapapuro, imbere yaho hateretse imiti ndetse n'ikirahuri cy'amazi yo kunywa.

Umuntu w'igitsina gabo ukuze ari gukina udukino two kumufasha kuruhuka mu mutwe n'undi muntu kandi bikaba ari ibintu bikenewe mu buzima bwa muntu, cyane cyane abakuze ndetse n'abafite ibibazo by'uburwayi mu rwego rwo kubarinda kwiheba hanyuma bakabasha kwiyakira mu burwayi bwabo.

Umugore mukuru wambaye umwenda w'umuhondo n'amadarubindi yicaye ku ntebe imbere yameza hariho uducupa turimo imiti ndetse n'agacupa kamwe afashe mu ntoki asuka imiti yitegura kugenwa.

Ababyeyi bakuze, bicaranye n'abana babo ndetse n'abuzukuru babo, bahuje urugwiro barishimye cyane, bari guseka baganira mu muryango ni ingenzi mu buzima kuko ufasha mu mikurire ndetse no mu mibereho ya muntu.

Abantu babiri b'igitsina gore barahagaze umwe ukiri muto afashe ukuboko k'undi ukiri mukuru ari kurambura amaboko ye amutoza gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga w'igitsina gore, ari gusuka imiti mu kuboko k'umurwayi w'igitsina gabo ufashe akarahuri mu ntoki mu kaboko k'ibumoso, ak'iburyo kari gufata iyo miti yitegura kuyinywa.

Umukozi wo kwa muganga ushinzwe kwita ku barwayi, ari guha imiti umurwayi mu rwego rwo kumufasha gukurikiranya ku masaha akwiriye yo kunywa imiti ndetse akanywa n'amazi mu gihe ari kunywa imiti.

Abantu babiri bicaye mu nzu, harimo umusaza ufite imvi ku musatsi, imbere ye hariho akarahuri karimo amazi, afashe ikiyiko n'isahani ari kwiyarurira amafunguro yishimye.

Umugore ukuze wicaye mu kagare k'abamugaye ari gupimwa ku kaboko ke k'iburyo umuvuduko w'amaraso n'umugore wicaye ku ntebe wambaye imyenda yo kwa muganga y'ubururu.

Abantu babiri b'igitsina gore, harimo umukecuru ukuze wambaye ishati y'umweru ufite nivi ku mutwe arikumwe n'uwundi ugaragara nk'aho ari mutoya wambaye imyenda yicyatsi kibisi, bari kumwe bishimye.

Ihuriro ry'abagabo basheshe akanguhe ndetse n'abandi babiri batarasaza bicaye barambije bari kuganira, umwe muri bo ari kuboha igiseke yifashishije ibirere.

Umugabo ukuze yicaye ku ntebe, imbere ye hateretse ameza ariho mudasobwa ari gukoresha, iruhande rwe hari umwana w'umukobwa, ufite agacupa karimo ibinini ari guha wa musaza ibinini, ndetse hari n'akarahuri k'amazi agiye gukoresha anywa ibyo binini.

Umurwayi w'igitsina gabo ukuze, ufite uburwayi bw'ingingo, ari gutozwa n'umuganga, aho ari kumufasha ahagaze afashe ku bintu by'ibyuma bibasha kumufasha gutera intambwe.

Mu ruganiriro hicayemo abantu babiri, harimo umugore ni umuganga wambaye agashati k'ubururu, ari gupima umuvuduko w'amaraso, umusaza wambaye ipantaro n'agapira, ndetse n'amadarubindi.

Umusaza mukuru yicaranye n'umukecuru mukuru ku ntebe mu nzu, bari kureba agapapuro umukecuru afashe mu ntoki, imbere yabo hari agacupa karimo imiti.

Abantu babiri basheshe akanguhe harimo uw'igitsina gore n'uw'igitsina gabo, bari mu ruganiriro, bari gusoma amabwiriza ngenderwaho byifashishwa mu kunywa imiti. Umugabo afashe ibinini mu ntoki ategereje kumenya amabwiriza yo gufata iyo miti.

Umuntu w'igitsina gabo ukuze ufite uburwayi ari kwitabwaho n'umuganga ubwo ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri, yabasha kumufasha mu burwayi bwe.

Umuntu w'igitsina gabo ukuze yicaye ku ntebe mu ruganiriro ari kumwe n'umuntu w'igitsina gore wambaye imyenda y'ubururu agaragara nk'umukozi wo kwa muganga, afashe ku rutugu wa muntu mukuru bari kurebana bishimye.

Abantu babiri bicaye mu ruganiriro, harimo umusaza ukuze wambaye amadarubindi, ndetse n'umusore w'urubyiruko, bafashe igitabo bari gusoma bishimye, imbere yaho hari amatasi abiri ateretse kumeza.

Abakecuru batatu bakuze, bicaye hamwe, babiri muri bo bambaye amadarubindi, harimo n'abambaye ingofero, imbere yabo hari ibikoresho bitandukanye, bose bari kurebera hamwe muri terefone ya mugenzi wabo.

Abakorerabushake bifatanyije n'abaganga, bari gufasha umurwayi utunguwe n'uburwayi, bamuryamishije ku gatanda mu kibuga, bari kwifashisha imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'ibanze, mu gihe bataramugeza ku irwariro.

Mu cyumba cyo kwa muganga hicaye abagore bane bakikiye abana babo b'impinja, bari kuganira baseka bategereje kwakirwa inyuma yabo hamanitse amafoto ku gikuta.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, uruhande rumwe ruriho indorerwamo nini cyane ingana n'igikuta yifashishwa n'abakora imyitozo ngororamubiri, harimo ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa muri iyo myitozo.

Mu nyubako y'ikigo nderabuzima cya Tabwe, hari abantu bahagaze aho bategerereza kugira ngo babashe guhabwa serivisi zijyanye n'ubuvuzi.

Umuganga afite agakoresho ashira ku gutwi no ku nda y'umubyeyi utwite, ni agakoresho kifashishwa mu gupima uko umutima w'umwana utera, ni ingenzi cyane buri mubyeyi wese utwite akwiye kujya kwa muganga, kujya kumva uko umutima w'umwana utera.

Mu muhanda wa kaburimbo uri imbere y'amarembo y'ikigo nderabuzima cya Gisenyi, hahagaze umuntu w'igitsina gabo unyonga igare, hicayeho n'umugore uri kuva kuri iryo gare agana mu kigo nderabuzima kiri kugaragaramo abantu b'ingeri zitandukanye bicayemo n'abandi bahagaze.

Igishushanyo cy'ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge, kigizwe n'inyubako zigeretse ku mpande ebyiri z'iburyo n'ibumoso hagati hari amarembo yo kwinjiriramo imbere yaho hakaba hari parikingi yo guparikamo no kunyuramo abaje gusaba serivisi ndetse n'ubusitani.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti, habamo imiti igiye itandukanye, igurwa n'abarwayi, indwara zitandukanye bakaba bashobora kuza kuyigura bayandikiwe n'umuganga cyangwa se umurwayi uzi uburwayi bwe akaba yaza na we akayigura muri ubwo bucuruzi.

Inyubako yo kwa muganga yagenewe ababyeyi n'impinja, ni inyubako isize irangi ry'umweru, ikaba ifite n'ibaraza ryo hejuru risakaje amabati y'umweru.

Mu cyumba cy'irwariro cyo kwa muganga harimo igitanda kiryamaho umurwayi, hakabamo ahogerwa intoki ndetse n'agashirwamo imyanda.

Inyubako igizwe n'icyumba cyakiriramo inama, icyo cyumba kikaba kirimo intebe zipanzemo nyinshi z'ibara ry'umukara, imbere harimo ahantu hagomba guhagarara uyoboye inama cyangwa se uri gutanga ibiganiro.

Icyumba cy'ururwariro cyo kwa muganga gifite amadirishya ndetse n'inkuta by'umweru, ni icyumba cyifashishwa mu kuryamamo ndetse no kwita ku murwayi, kigizwe n'uburiri buryamaho umurwayi ndetse n'amamashini yifashishwa mu kwita ku murwayi.

Mu ivuriro hari inyubako isize amarange y'umweru, muri iyo nyubako imbere yaho hari umwana wicaye mu kagare kicarwamo n'abarwayi bafite ubumuga butandukanye ndetse n'undi uri mu busitani abusohokamo wambaye agapira k'umuhondo.

Mu cyumba cy'ururwariro cyo kwa muganga harimo ibitanda byinshi bigiye bishashe, bimwe biryamyeho abarwayi ibindi byicayeho abarwayi ndetse harimo n'abaganga bari muri icyo cyumba bashinzwe gufasha abo barwayi.

Inzu icururizwamo amadarubindi y'abarwayi b'amaso, imanitseho ku nkuta amadarubindi hariho n'amafoto amanitswemo y'abambaye amadarubindi ndetse n'intebe zicarwamo abaje gusaba iyo serivisi muri iyo nzu.

Inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi ni inyubako igeretse rimwe, hasi y'iyo nyubako hahagaze abantu batandukanye, harimo n'umubyeyi uhetse umwana, hejuru mu igorofa rya mbere ry'iyo nyubako naho hari abantu bahicaye n'abandi bari mu muryango w'iyo nyubako.

Itsinda ry'abaganga batatu, bambaye imyambaro y'umweru, bari gufasha umurwayi, aho umwe yifashishije imashini ipima umuvuduko w'amaraso, apima uwo murwayi, undi aricaye ari kwandika, ibipimo bari kumubwira.

Mu ruganiriro harimo intebe enye zifite imisego y'ikigina, utumeza dutatu twegeranye harimo ak'umukara, ak'umweru n'agasa n'urubaho ndetse hakaba hatatsemo n'ibiti bifite utubabi tw'icyatsi kibisi.

Mu cyumba cy'ururwariro kwa muganga harimo ibitanda ushobora guhina umurwayi akaba yakwicara yegamiye afite n'akameza imbere yariraho, harimo n'amamashini agiye atandukanye n'ibikoresho byifashishwa mu kwita ku burwayi.

Icyumba gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, kirimo ibikoresho byifashishwa muri iyo myitozo, kikaba gifite inkuta zisize irange ry'umweru, zikaba ziriho n'indorerwamo zimanitse kuri izo nkuta.

Umuganga w'igitsina gabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, afite igikoresho ari gupima umwana wicaye ku gatanda aseka, iruhande rwe hari undi w'igitsina gabo uri kumwe n'uwo mwana.

Mu cyumba gicururizwamo amadarubindi ni ho haba harimo amadarubindi agiye atandukanye, aho umurwayi w'amaso yandikirwa na muganga amadarubindi hanyuma akajya kuyagura muri ayo mazu acururizwamo.

Mu nyubako yo kwa muganga, ahafatirwa ibizamini, hicaye abarwayi bamwe bicaye ku ntebe, abandi bicaye hasi, bategereje ibisubizo ndetse n'abandi bategereje gufatwa ibizamini.

Abantu bane harimo igitsina gabo n'igitsina gore, umwe agaragara igice cy'umugongo yambaye itaburiya y'umweru, abandi batatu bagaragara igihimba cyo hejuru bambaye amataburiya y'umweru, bicaye muri laboratwari irimo ibikoresho bitandukanye.

Mu kigo nderabuzima cya Matyazo harimo inyubako ifite inzugi n'amadirishya bisize irangi ry'umweru n'igisenge gisakaje amabati yubururu, hari gusohokamo abantu babiri harimo umugore umwe ufite umutaka n'uwundi mugore wambaye ipantaro y'umukara n'agashati k'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bine bigiye bishasheho amamatera ndetse n'akuma baterekaho serumu, bashobora gutera umurwayi uryamye kuri ibyo bitanda, ari kwitabwaho n'abaganga.

Mu cyumba cy'inama abagabo batatu batumije abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasheshe akanguhe ndetse n'urubyiruko, aho umugabo umwe ahagaze ari kuyobora iyo nama atanga ikiganiro.

Mu cyumba cy'inama hicayemo abantu, harimo igitsina gore n'igitsina gabo, bafite uducupa tw'amazi duteretse uruhande rwabo, harimo abambaye udupira dusa tw'umuhondo, abandi utw'icyatsi kibisi ndetse n'umuntu umwe wambaye agapira k'umweru.

Mu kigo nderabuzima hari itsinda ry'abantu bahari bategereje kuvurwa, abandi bategereje ibisubizo, babashije kwakirwa na muganga.

Icyumba cyo kwa muganga, gisuzumirwamo abarwaye, kirimo agatanda karyamaho umurwayi, ndetse n'amamashini akomeye, yifashishwa mu kwita ku barwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ama mashini menshi yifashishwa kwa muganga ateretse ku meza, andi amanitse hejuru kuri parafo ndetse n'intebe zo kwicaraho n'amamashini ya mudasobwa.

Mu marembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina, hahagaze umubyeyi w'umugore uhetse umwana w'uruhinja, wambaye ingofero, amufatishije n'amaboko ye yombi mu mugongo we.

Inyubako y'ibitaro bikuru by'akarere ka Shyira, ni inyubako igeretse, ifite amadirishya n'inzugi by'umukara, isakaje amabati y'umutuku werurutse n'umureko w'ubururu, ikaba ifite n'ibyapa imbere yayo byamamaza.

Abantu babiri b'igitsina gabo, umwe yambaye amadarubindi ari gupima undi wambaye mu ijosi ikarita y'akazi, aramupima umuvuduko w'amaraso kugira ngo abashe kumenya uko umutima we utera.

Icyumba basuzumiramo kwa muganga, kirimo agatanda umurwayi aryamaho ndetse n'amamashini akomeye yifashishwa mu gusuzuma umurwayi, hahagazemo umuganga, ari gutunganya ayo mamashini.

Mu nyubako igeretse rimwe isize irangi ry'umweru ya kaminuza y'u Rwanda, hasohotsemo umuntu w'igitsina gabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku, mu busitani bwaho na ho hahagaze umugabo wambaye agapira k'umutuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo igitanda kiryamaho umurwayi, amamashini agiye atandukanye yifashishwa mu kuvura no kwita ku murwayi, ndetse ku rukuta rwaho hashushanyijeho ikimera gifite amababi y'umutuku n'umweru.

Inyubako y'ivuriro ivura amaso ni inyubako isize irangi ry'umweru, rifite inzugi ebyiri zinjira ndetse hejuru kuri iyo nyubako hari icyapa kigaragaza ko ari ivuriro ry'amaso.

Umugore w'umuganga wicaye ku ntebe yambaye uturindantoki ari kumwe n'abagore bakuze babiri, umwe afite akaboko ke k'ibumoso ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako igizwe n'amazu asakajwe n'amabati y'ubururu afite imireko y'umweru isize amarangi y'umweru, ni inyubako yagenewe ababyeyi bitegura kubyara, abaganga bakabafasha no kubyara ndetse bakahakirira n'abana b'impinja bavutse.

Imodoka ebyiri ziparitse zireba mu muryango w'iguriro ry'imiti, ni aho wasanga imiti yose waba wifuza, yaba imiti wandikiwe na muganga cyangwa se imiti wajya kugura uramutse ugize ikibazo cy'uburwayi, waba uzi ugakenera kugura umuti wavura iyo ndwara.

Umubyeyi akikiye uruhinja rwe, ari rwa muganga, yaje kwitabwaho, aho ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Itsinda ry'abaganga ndetse n'abakora ubuvuzi bw'amenyo, basuye ikigo cy'ishuri aho bari mu ishuri rimwe, umuganga umwe ari gutoza umunyeshuri uko bakwiye koza amenyo, ndetse n'abandi banyeshuri babireberaho.

Mu cyumba cy'irwariro cyo kwa muganga, harimo ibitanda biryamyeho abarwayi, hakaba harimo n'abaganga bari gufasha abo barwayi ndetse n'abandi bari gukora amasuku, bakoropa bifashishije amatorosho ndetse n'amadobo arimo amazi.

Mu cyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubushakashatsi ndetse no gupimiramo ibizamini, harimo abakozi bo kwa muganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse imbere yawo hagiye hari ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora ako kazi kabo bari gukora.

Inyubako y'ibitaro igizwe n'inyubako imwe ndende igeretse gatanu y'umweru ndetse n'indi ifite inkuta z'ibirahuri ikaba ifite na parikingi iparikwamo imodoka z'abaje gusaba serivisi ndetse n'imodoka zo kwa muganga harimo muri iyo parikingi umuntu wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku uri kuyobora imodoka.

Inyubako y'ibitaro bya Gihundwe, ahasuzumirwa amaso, ni inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ikaba isakajwe n'amabati y'ibara ry'ubururu,

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo agatanda karyamaho umurwayi ndetse n'amamashini yifashishwa mu gusuzuma no kuvura umurwayi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo agatebe gatoya k'umukara gafite amapine, hari ameza afite udupine aterekwaho ibikoresho byo kwa muganga ndetse n'indi ntebe nini y'ibara ry'umweru n'ubururu, ifite amapine, iryamaho umurwayi bari kuvura.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo imashini yifashishwa mu gucisha umurwayi muri sikaneri harimo umuganga urimo gutunganya agatanda karyamaho umurwayi.

Umuganga yicaye mu nyubako yo kwa muganga mu cyumba gisuzumirwamo, ahari agatanda karyamaho umurwayi ndetse n'imashini zifashishwa mu kwita ku murwayi, muganga yicaye atanga ubusobanuro butandukanye.

Imipira yifashishwa mu gukina imikino itandukanye, yaba imikino y'amaguru, ndetse n'imikino y'amaboko. Harimo n'igikoresho cyifashishwa ku mutwe bambara, mu rwego rwo kwirinda, ingaruka wagira uri gukina, iyo mikino.

Umuntu kugira ngo agire ubuzima bwiza, akenera indyo yuzuye igizwe n'imboga n'imbuto, agakenera gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse no kunywa amazi menshi ahagije.

Umuntu w'igitsina gabo yicaye mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, yambaye isengeri n'ikabutura, afatishije ibiganza bye byombi itako rye ry'ibumoso, arikanda cyane nk'umuntu wagize ububabare.

Mu cyumba ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho bitandukanye, hahagaze umugabo uri gufasha undi mugabo upfukamye n'ukuguru kumwe, afatishije amaboko ye yombi ibyuma by'umuhondo.

Umuntu w'igitsina gore, ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho yunamye arambuye ukuboko kwe kw'ibumoso, afata ikirenge cy'akaguru k'iburyo karambuye, ukuboko kwe kw'iburyo kukaba gufashe mu mugongo.

Mu cyumba cyo kwa muganga harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo n'imashini ipima abarwaye indwara zo mu mubiri, aho igizwe n'uruhande rurimo agatanda karyamaho umurwayi bagiye kwinjiza muri iyo mashini bamupima.

Umuntu umaze gukora imyitozo ngororamubiri, afashe icupa ry'amazi yarishyize ku munwa ari kugotomera amazi, ni ingenzi mu buzima, cyane cyane abakora imyitozo ngororamubiri.

Ababyeyi bazanye umwana kwa muganga, umubyeyi we w'umumama aramukikiye umuganga yafashe uwo mwana ku mutwe, yamwasamishije, amurika mu kanwa areba ikibazo yaba afite.

Umuntu w'igitsina gabo, uhagaze afashe ukuguru k'undi muntu uryamye, ari kumupfuka n'ibipfuko byo kwa muganga aho yavunitse.

Umuntu w'igitsina gabo ahagaze akora imyitozo ngororamubiri, aho yafatishije ukuboko kwe kw'iburyo mu mugongo we, ukundi kuboko kwe kw'ibumoso kukaba kurambuye, kureba hejuru.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'ubururu, afashe icupa ry'amazi mu kuboko kwe kw'iburyo, ari kunywa amazi ni isoko y'ubuzima, amazi ni ingenzi kuri buri wese, aba akwiye kuyanywa, kuko afasha umubiri we mu buryo butandukanye.

Umukobwa uryamye agaramye ku itapi ikorerwaho imyitozo ngororamubiri, afatishije amaboko ye yombi akaguru k'iburyo gahiniye mu gatuza, akandi kaguru k'ibumoso karambuye kuri iyo tapi.

Imbago ebyiri, ni igikoresho cyifashishwa nk'umurwayi wagize ikibazo cy'imvune, yaba iy'amaguru cyangwa umugongo, ituma atabasha kugenda, icyo gikoresho akaba yakiyifashisha, akabasha gutambuka.

Igikapu cy'umutuku gipanzemo ibikoresho byinshi cyane bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, aho gikoreshwa mu gihe hari ahantu habereye igikorwa runaka nk'umukino cyangwa se ikindi gikorwa, cyifashishwa rero mu kuvura abari aho ngaho baba bagize ibibazo bigiye bitandukanye bitunguranye.

Umuntu w'igitsina gabo, afashe icupa, ari kunywa amazi, amazi ni isoko y'ubuzima, ni ingenzi kuri buri muntu wese, aba akeneye kuyanywa kuko amufasha kugira ubuzima bwiza.

Umubiri wa muntu ukenera ibintu bitandukanye, harimo indyo yuzuye igizwe n'imboga ndetse n'imbuto, ugakenera n'imyitozo ngororamubiri.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho babagira abarwayi barwaye indwara zitandukanye, harimo agatanda karyamaho umurwayi, ndetse n'amamashini agiye atandukanye, yifashishwa mu kwita kuri uwo murwayi, bari kubaga.

Umuntu w'igitsina gore, yicaye ku mukeka ukorerwaho imyitozo ngororamubiri, arambuye ukuguru kwe kumwe, ukundi kurahinnye, amaboko ye afashe kwa kuguru kurambuye, akora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye imyenda y'akazi, y'ibara ry'cyatsi kibisi, ari kwambara akarindamuwa ndetse afite n'uturindantoki tw'ubururu yambaye, ari imbere ya mudasobwa, ari kureba muri mudasobwa ye akora akazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura ndetse no gusuzuma umurwayi, harimo agatanda karyamaho umurwayi, hakabaho intebe yicaraho umuganga ndetse n'amamashini agiye atandukanye akoreshwa mu gihe hari gukorwa icyo gikorwa cy'ubuvuzi.

Insimburangingo eshatu zitondetse ku murongo, inyuma yazo hari umuntu wambaye iyo nsimburangingo imwe mu kaguru ke, zifashishwa mu kwambarwa zigasimbura ukuguru umuntu aba atagifite.

Umuntu w'igitsina gore yicaye mu twatsi, yambaye agakabutura ndetse n'agasengeri arambuye amaguru ye yombi, umugongo we urahinnye, amaboko ye yafashe ya maguru ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Amazi ni isoko y'ubuzima, akiza inyota, arinda uburwayi bugiye butandukanye ndetse akaba anafasha umubiri kubasha gukora neza kuko igihe nta mazi umubiri ubona, utabasha gukora neza.

Umuntu wambaye umupira w'amaboko maremare ndetse n'ikabutura, aricaye yunamye afashe munsi y'ivi ahapfutse igipfuko cy'umweru.

Igikapu kinini cy'umutuku, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwa muganga byifashishwa mu gupfuka ibisebe ndetse no kuzirika, ahavunitse ku mubiri w'umuntu.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho bapimira cyangwa se bavurira indwara, harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye birimo amamashini yifashishwa mu gupima no kuvura indwara, ndetse n'intebe zo kuryamamo umurwayi.

Insimburangingo y'ukuguru yifashishwa n'abantu bahuye n'ikibazo cy'uburwayi bw'ukuguru, yaba kukuvunika cyangwa se gucika k'ukuguru.

Icyumba kirimo imisambi yicayeho abantu bagiye batandukanye, inyuma yabo hari intebe zipanzemo, kuri uwo musambi hari umugore w'umwere ufashe amaguru umwana w'umuhungu wicaye ku mukeka ari kumukoresha imyitozo, inyuma ye hari umubikira umupfukamye inyuma.

Ibikoresho byo kwa muganga bigizwe n'ibipfuko bigiye bitandukanye ndetse n'imiti itandukanye byifashishwa mu kuvura umurwayi wahuye n'ikibazo cy'imvune.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo n'umwenda wo hasi wumukara aryamye ku gatanda gakorerwaho imyitozo ngororamubiri, ari gufashwa nundi uhagaze iruhande rwe wunamye yambaye ingofero yumukara amuha amabwiriza.

Akadege gato kifashishwa no kwa muganga, gahabwa amaraso abitse neza hanyuma na ko kakagenda kayatanga ahantu hagiye hatandukanye kure, hatabasha kugerwa n'imodoka cyangwa se ikindi kinyabiziga mu buryo bwihuse.

Umuntu wambaye isengeri ndetse n'igitambaro cyo kwihanaguza mu ijosi azamuye akaboko ke k'iburyo, afite icupa ririmo amazi ari kunywa.

Ibiganza bibiri byambaye uturindantoki tw'umukara aho ibice byo hejuru ku ntoki enye enye bigaragara, ni uturindantoki twifashishwa mu gihe bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umurwayi uryamye ku buriri, arambuye ukuguru kumwe ukundi arakuzamuye gufashwa n'umuganga, ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri mu rwego rwo kumufasha gukira uburwayi afite.

Umuntu w'igitsina gabo, wambaye umupira w'icyatsi kibisi, afashe mu ntoki mu kuboko kwe kw'ibumoso umupira ukoreshwa mu gukina imyitozo ngororamubiri.

Umuntu w'igitsina gabo, uri gukora imyitozo ngororamubiri, aho ateruye n'amaboko ye yombi igikoresho cyifashishwa mu myitozo gifite ibiro byinshi, muri iyo nzu y'imyitozo harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa muri iyo myitozo ngororamubiri.

Mu cyumba gisuzumirwamo abarwayi, hari imeza iteretseho ibikoresho byifashishwa na muganga ndetse n'intebe ya muganga yicayeho y'umukara, yambaye imyenda y'ubururu n'agapfukamunwa, afashe mu kuboko kwe kw'iburyo akamashini kari gupima umwana ukikiwe na mama we, wambaye agapfukamunwa.

Ikiremwamuntu kugira ngo kigire ubuzima bwiza, gikeneye indyo yuzuye igizwe n'imboga z'ubwoko butandukanye, amaporoteyine ndetse n'imbuto zigiye zitandukanye. Umubiri rero ukenera no kunywa amazi ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri, wambaye umwenda uciye amaboko w'ibara ry'icyatsi kibisi, ari kwimenaho amazi, amaze gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi kuko ifasha gukomera kw'amagufa ndetse no kurinda indwara kugera mu mubiri w'umuntu.

Umuti uri mu kajerekani k'ibara ry'umuhondo, upfundikijwe n'umufuniko w'umutuku, ni umuti ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ikiribwa cyitwa ipapayi, kiri mu bwoko bw'imbuto z'ingenzi cyane zifashishwa mu kurya, mu rwego rwo kurinda indwara ndetse no kuvura indwara zitandukanye. Ipapayi rero igirana n'utubuto tubamo imbere, na two twifashishwa mu gukora imiti ivura indwara zitandukanye.

Imiti ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ni imiti ishobora no gukoreshwa mu gukora imiti yafasha abana mu burwayi butandukanye, ikaba itunganyirizwa mu nganda ariko yarakozwe muri icyo gihingwa cyitwa igikakarubamba.

Utujerekani dutatu, dufite amabara atandukanye, turimo imiti itandukanye ariko yose ikozwe mu gihingwa cyitwa igikakarubamba, cyifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye.

Ibiganza by'umuntu bifashe agapapuro k'umweru, karimo imiti y'icyatsi kibisi, iseye ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umugabo wambaye agapira k'umweru kariho ikora ry'umukara, no ku kuboko hariho ibara ry'umukara, ari mu gihuru kirimo ibiti bigiye bitandukanye, afashe amababi y'ibiti biri muri iryo shyamba.

Ikimera cyitwa umuravumba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo aho umuntu ashobora kwifashisha icyo gihingwa akoramo umuti uvura indwara zitandukanye, uwo muravumba uhinze mu murima.

Igiti cyitwa Inyabarasanya ni igiti gifite utubabi duto cyane tw'Icyatsi kibisi cyifashishwa mu gutunganya imiti ivura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti ukozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ni umuti ukoreshwa mu koza amenyo, ukayafasha gucya gurinda indwara ndetse no kuzivura indwara zose z'amenyo.

Igiti giteye mu murima gifite umubyimba unanutse cyane umeraho utundi duti tugiye tumeraho uturabo tw'umweru.

Mu imurikagurisha ry'imiti ya kinyarwanda, umugore uteze igitambaro cy'umweru n'agapira k'amabara, ari gusobanurira umuguzi ibijyanye n'iyo miti.

Umurima uhinzemo ibiti by'amoko atandukanye, harimo n'ibiti bifite uturabo tw'umweru, ibi biti bikaba ari ibyifashishwa mu gukora imiti, ivura indwara zigiye zitandukanye tuzi.

Ibibabi ndetse n'imbuto bigiye bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti ikozwe mu bimera ni imiti yifashishwa cyane mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu gihe utabashije gukoresha imiti yaciye mu ruganda

Ikimera gihinze gifite amababi y'icyatsi kibisi, kikameraho n'imbuto, ni ikimera gitunganywa kigakurwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Ameza ateretseho uducupa ndetse n'agakarito birimo imiti, harimo imiti isukika ndetse n'ikozwe mu ifu, ni imiti ikozwe mu bimera yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Mu ishyamba ririmo ibimera bitandukanye, harimo ikimera gifite utubabi tunini tw'icyatsi, icyo kimera cyitwa umuravumba, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umuti w'amenyo ukozwe mu gihingwa cyitwa igikakarubamba, ni umuti mwiza urinda ndetse unavura indwara zo mu menyo. Uruhande rwaho, hari agakombe karimo uburoso bw'amenyo bubiri.

Uducupa tubiri tw'umuhondo dushushanyijeho ikimera cyitwa igikakarubamba, ku ruhande rwacyo, harimo akarahuri gasutsemo uwo muti, no ku rundi ruhande hariho igikakarubamba gikasemo uduce dutatu.

Mu ishyamba rinini hamereyemo ibiti bigiye bitandukanye, muri ibyo biti harimo igiti gishamikiyeho amababi manini, ni amababi yifashishwa mu gutunganya imiti yo kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Imiti myinshi yegeranyirijwe hamwe, ikozwe mu bimera ikaba yaratunganyirijwe mu ruganda aho harimo iy'ibinini, ikozwe mu mavuta n'ikozwe mu bisukika, yifashishwa mu kurinda no kuvura indwara zitandukanye.

Uducupa dutondetse ku meza, turapfundikiye, turimo imiti y'amoko atandukanye, yakozwe mu bimera, ikaba ari imiti, yifashishwa mu kuvura indwara, zigiye zitandukanye.

Amavuta yo ku munwa akozwe mu gihingwa cyitwa igikakarubamba, ni amavuta asigwa ku munwa ubona ko arinda uburwayi bugiye butandukanye bw'umunwa, yaba gushishuka, yaba kumagara cyangwa se ibindi bibazo umunwa wagira.

Amacupa abiri arimo imiti ibiri ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ni imiti inyobwa, ikarinda ndetse ikanavura indwara zo mu nda.

Agacupa k'umweru kanditseho amagambo agaragaza ko karimo ibinini mirongo itandatu n'umunani bikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, gishushanyije iruhande rw'ako gacupa.

Mu ishyamba rinini harimo ibiti bigiye bitandukanye, muri ibyo biti harimo igiti cy'umuravumba. Umuravumba ni igiti kifashishwa ku kuvura indwara zigiye zitandukanye, amababi y'ayo ushobora kuyakoresha mu gihe warwaye indwara y'inkorora cyangwa izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Udukono turindwi duhinzemo ibimera by'amoko atandukanye, harimo ibigiye bifite indabo zifite amabara atandukanye ni ibimera byifashishwa mu kuvura indwara.

Mu nzu y'ubucuruzi harimo ama etajeri abiri apanzemo amacupa arimo imiti ikozwe mu bimera, ndetse n'amacupa y'amazi, hakaba harimo n'umuntu w'igitsina gore wambaye itaburiya y'umweru uhagaze, inyuma ye hakaba harimo na firigo.

Agakarito kabikwamo udukoresho dukoranye umuti wica utumikorobe, dupfukishwa ku bisebe umuntu abagize akomereka ku mubiri ahatandukanye.

Agacupa karimo umuti uvura inzoka zo mu nda, ziri mu bwoko bwitwa Amibe, ni inzoka zifata umuntu akagira ububabare mu nda.

Imiti yatunganirijwe mu ruganda, yakozwe mu gihingwa cyitwa igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura ndetse no kurinda indwara zitandukanye.

Imiti ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba, ni imiti yifashishwa mu kuvura no kurinda indwara zitandukanye, yaba indwara zo mu nda ndetse n'izo mu menyo.

Isabune y'amazi ikozwe mu kimera cyitwa igikakarubamba ni isabune ikaragwa mu mutwe mu rwego rwo gufasha umusatsi gukura neza no kugira ireme ryawo ryiza.

Uducupa turimo imiti ikozwe mu bimera, ibyo bimera hakaba harimo ibifite uturabo tw'umuhondo twifashishwa batunganya imiti, ndetse hari n'ubuki butunganywa bwifashishijwe inzuki.

Mu cyumba cy'ubucuruzi, harimo etajeri ndende, igiye irimo uducupa twinshi cyane tw'amabara atandukanye, ni uducupa turimo imiti ikozwe mu bimera, ivura indwara zitandukanye.